Igikorwa cy'ubucuruzi bwa serivisi.

Ibiciro bishya by'umukiliya muri serivisi za MTN.

Abantu bari hamwe, bakora ibintu by'imyambaro harimo: inkweto, ibikapu, imyenda, imikandara.

Koperative y'ubuhinzi ihinga igihingwa cy'ibigori hagaragaraho umurasire ukurura izuba ndetse n'ibigori byeze.

Abantu benshi, bari mu murima, bitegereza ibihingwa byabo by'amasaka, bose bambaye imyenda isanzwe.

Abagabo batatu bari ahantu bicaye ku ntebe basa nkaho bategereje umuntu cyangwa se abantu, bari ahantu hateguye neza kandi hafite isuku.

Bare ahantu barira banywera bidagadurira. Hagaragaramo televiziyo intebe nziza, zitondetse neza ndetse n'imitako igiye itandukanye.

Aho banywera inzoga ndetse n'ibindi bintu.

Umuhanda mwiza uri ahantu hari isoko hakorerwa igikorwa cy'ubucuruzi.

Ahantu bacururiza harimo imiceri n'ibindi n'amavuta urabona ko ari ahantu hagaragara ubucuruzi buteye imbere harimo amasabune.

Ubucuruzi, bucuruza ibintu bitandukanye bikorwa n'umugore, ubona ko ari umugore ucuruza ibintu byinshi, bikenerwa n'abantu benshi.

Urusengero rugaragaramo abantu benshi ariko ubuta na benshi cyane, kubera ko hari intebe zitariho abantu. Urusengero rwubatse mu buryo busanzwe rurimo intebe nziza.

Hoteli nziza cyane igaragaraho pisine, jaride, ndetse ikaba igeretse inshuro zirenze imwe igaragara.

Inzu irimo igitanda, ubona ko gishashe neza, ahantu hasa n'ahakodeshwa, abantu bajya kurara, ubona ko harimo amatara, hameze neza.

Muri hoteri batetse amafunguro atetswe n'abantu babiri, umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, n'undi yambaye igisa n'itaburiya ndetse hagaragara n'ibiryo.

Ahantu hagaragara neza hari n'inyubako zigezweho ndetse n'ikirere gisa neza utibagiwe amajaride akikije umuhanda, ubona ko ari ahantu hasirimutse.

Ibitanda bigaragara muri hoteli, bishashe neza ubona ko bigezweho, bifite amashuka y'umweru, imisego y'umweru ndetse biteretse mu nzu ifite irangi ryiza.

Iyi nzu igaragara nk'iyubatse mu buryo bwiza.

Iyi nzu iri kugaragaraho ibimera, inzu ya hotel yakira abantu bagiye batandukanye , bashaka amacumbi ndetse no kuruhuka.

Imashini idoda, iruhande rwayo hariyo moto n'ibindi byinshi n'ubujerekani.

Umumotari uri kumwe n'undi mumotari baparitse moto za bo mu muhanda, unyugwamo ibindi binyabiziga, harimo imodoka n'abagenzi, hazengurutswe ibiti.

Umumotari ubona ko arimo muri kaburimbo ari gushaka abagenzi ari kureba inyuma ari kwitegereza umukecuru nkaho ashaka kumutwara, inyuma hari indi moto iri kugenda.